Akabati ga bafite iba ry'umweru karimo imisego y'amabara atandukanye igiye, ikozwe mu myenda dusanzwe tuzi mu muco nyarwanda nk'ibitenge, ikaba ari imisego myiza cyane kandi bigaragara yuko ntaho itandukan n'ibisego dusanzwe a tuzi.

Iyi ni imitaka, amakanzu byose bikozwe mu myenda isanzwe izwi nk'ibitenge, bikaba bisa neza cyane ndetse binateza imbere umuco nyarwanda, bikerekana yuko ibitenge bitari ibyo kwambarwa gusa bishobora no gukoreshwa mu gukora ibindi bikoresho bikenerwa bya buri munsi.

Iyi ni ifoto y'ikigo cya akagera bizinesi gurupe irerekana umukozi w'ikigo cya kabiri cya akagera bizinesi gurupe amaze kugurisha imodoka ari umuguzi nogura bose bafite ibyapa by'akagera bizinesi gurupe.

Hano turabona abantu bane bafite icyapa cy'akagera bizinesi gurupe hanyuma inyuma yabo hakaba hari imodoka bigaragara nk'aho ari ku iduka ry'akagera bizinesi gurupe.

Iyingiyi irerekana ikigo gishinzwe gucunga umutekano w'amabanki n'ibindi bigo bikomeye cyitwa isiko, ikerekana imashini yabo ishinzwe gutwara amafaranga ndetse n'abasekirite babiri ba isiko bafite agasandu.

Iyi nzu ya Mukandayisenga Mari Terese iherereye mu mudugudu wa Gashyekero mu kagari ka Karambo mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro ifite agaciro cyangwa se igenagaciro ka miliyoni ijana na mirongo inani nenye, ibihumbi magana inani mirongo ine na bibiri n'amafaranga magana atandatu.

Icyemezo cy'Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revennyu Osoriti cyerekana y'uko barangije kumenyekanisha umusoro. Ikigo cya Kigali Hadura Podi Limitedi kikaba cyarangije kumenyekanisha umusoro w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu.

Nyaruka birihuta kandi biroroshye wafungura konte yawe utiriwe uva aho uri na agisesi banke, kubindi bisobanuro hariho nimero, emeli ndetse na webusayiti n'imbuga nkoranyambaga wakoresha kugira ngo ubone amakuru arambuye.

Uyu ni umugore uri mu isoko, akaba agaragara y'uko ari umucuruzi, imbere ye hari ibitunguru, ndetse n'inyuma yiwe hari imboga z'ubwoko butandukanye, muri iri soko.

Iyi ni ifoto igaragaza abakozi ba emutiyene bari imbere y'inzu yanditseho umuejenti wemewe basa n'abari gukora igenzura.